Umuganga mu umwenda w'akazi ari mu icyumba gicururizwamo imiti. Ni icumba kizwi ku izina rya farumasi, ariho yitegereza umuti agirango ahe umurwayi. Ni icmba gifite akamaro kanini cyane kuko abantu bagiherwamo serivisi z'ubuvuzi.

Mu cumba ciza cane umuforomo cangwa se umufasha wa muganga, cangwa se na none muganga, aratera urushinge umudamu mwiza cane wambaye agapfukamunwa n'ishati itukura. Aramutera urushinge ku kaboko nk'aho amukingira.

Inyubako ya kijambere isizwe irangi ry'umuhondo, igasakazwa amabati g'umweru, ikagira inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'icatsi. Itangirwamwo serivise z'ubuvuzi. Ni inyubako nto cane yagenewe kuvuna amaguru abaturage bagera ku bitaro bibagoye.

Ibyatsi ni ibimera bicucumuka mu gitaka birimo amoko menshi gatandukanye, bishobora kwirukana umwuka mubi umuntu ashobora guhumeka uzwi ku izina rya gazekaribonike, hanyuma bikohereza umwuka mwiza wa ogisijene utuma ubuzima bushoboka mu isi.

Ibyatsi ni ibimera bimera mu butaka birimo amoko gatandukanye， hari ibigira amahwa gajombana， hari n'ibibabana cane byitwa ibisura. Ibi biribwa n'amatungo， ndetse bishobora gukorwamo imiti itandukanye， cyangwa bikavamo ibindi bikoresho.

Icyatsi cyitwa igisura hari n'abacita ikinyamugezi, impamvu ni uko kiba gishaka ahantu hari amazi cane, bityo ahantu hanyura umugezi ugasanga cahameze cane kurenza ahandi hose. Ici catsi rero ni icatsi cahebuje mu kuvura kuko burya imboga zaco ziraribwa zikavura igifu.

Ibimera birimwo ibyatsi ni ibinyabuzima bifitiye umubiri g'umuntuntu akamaro kenshi. Usanga nk'iyo yagize ibyago agasitara, akenera nk'inyabarasanya akamurira ku gisebe ngo cume cye gukomeza kumubabaza.

Ibiti cangwa ibyatsi ni ibimera bifite akamaro kanini cane ku buzima bwa muntu, uretse kuba bihinduka inkwi zo gucana no gutekesha ibyo kurya bikamurwamwo imiti zitandukanye zivura umuntu iyo yarwaye.

Ibiti mu moko gabyo gatandukanye bifite akamaro kanini cane. Bituma umuntu abona umwuka mwiza ahumeka, biracanwa umuntu akabona ibyokurya, ibiti kandi bishobora gukurura imvura, si ibyo gusa kuko bishobora kuvamo n'imiti ivura.

Igisheke mu bwinshi byitwa ibisheke. Ni ibihingwa bikunda guhingwa mu duce tw'igihugu dushuha. Biterwa batera ingeri, akaba ari zo zimera zikazavamo ingingo cyangwa inkoni z'igisheke. Igisheke kiraribwa, gikurwamo umutobe, gikamurwamwo isukari.

Ishusho irerekana igiti c'umubirizi gikikijwe n'izindi ndabo. Iki giti c'umubirizi kikaba ari igiti gikomeye mu muco nyarwanda kizwiho kuvura indwara zitandukanye, zaba indwara zo mu nda ,z'amatungo cangwa se indwara zo mu nda z'abantu.

Ibimera cyangwa ibyatsi, ni ibidukikije bifitiye akamaro umuntu biboneka nk'biribwa ndetse n'ibishobora gufasha umuntu igihe yakubiswe n'uburwayi bikamuvura, hari ibigira amahwa n'ibitayagira.

ikidodoki bamwe bacita igishayote abandi bati kayote, ni ikimera kiri mu bwoko bw'imboga usanga cane cane mu bice by'amajaruguru mu duce dukonja cane, kiribwa ari imboga cangwa ari ibihaza, kigira intungamubiri nyinshi, kigabanya umuvuduko w'amaraso.